Ingabo z'u Rwanda ni nziza. Zitugezaho iterambere, ziducungira umutekano, tukagira amahoro, tukaryama tugasinzira, waba ufite n'ikibazo bakagikemura.

Polisi y'u Rwanda ni nziza. Ni umubyeyi wacu iturebera hafi ,iyo ufite ikibazo gihita gikemuka ,kuko iyo ubahamagaye, bahita bagukemurira ikibazo . Turabakunda cyane.

Ubuyobozi ni bwiza bwaratwegereye. Inama ziba nziza, mbere wasangaga umuturage afite ikibazo akabura aho akigeza, ariko ubungubu abayobozi baratwegereye ibibazo byacu bikemuka hakiri kare.

Umugore uri gukama inka. Amata aba meza, kuko tuyabonamo intungamubiri, bikadufasha kubaho neza.

Umuhamirizo uba mwiza cyane. Nk’abategarugori, urabona ko bameze neza, baba basa neza cyane. Kandi ni umuco nyarwanda, umuco gakondo wacu, turawuhorana.

Inama ziba nziza zo mu midugudu zikemura ibibazo bikagenda neza abafite ikibazo kigakemuka, ufite amakimbirane na mugenzi wawe akarangirira mu mudugudu.

Twabonye iterambere, abamotari badufasha gukora ingendo twakoraga tukagenda dutinda mu mayira, ariko ubu ngubu kubera amotari baje, bakugeza aho ugiye vuba, vuba cyane.

Umwuga wo gutwara amagare uba mwiza cyane ku muntu uri gutega na nyiraryo, rigufasha kugera aho ugiye byibutse kandi ku mafaranga makeya.

Uyu mukino uba mwiza ku bantu bawuzi, utuma amaraso atembera mu mubiri, ingingo zawe zikarambuka neza, ukamera neza. Ukagira ubuzima bwiza.